Ndi kubona handitse ngo Taba Sawufu inshuwarensi hari imashini imwe mu mashini zihinga handitse ngo nashino wayidi izi oni de sayidi famazi inshuwarensi, handitseho ngo Sikeyi Leya Daniyeli bisa nkaho ari izina ry'umugore ndikubona hari n'icyapa, ni icyapa cyerekanaga ubwishingizi bw'abahinzi.

Ndabona hano nanone ari screenshoot ya telefone yanditseho zigama Css mobile berekana over roll bashaka kwerekana mu ncamake ibintu byakozwe bakerekana total roni berekana payment ukuntu ibintu byose bihagaze muri iyi acount yuyu muntu afite muri zigama Css.

Ndimo ndabona ahantu berekana ngo my account bashaka kwerekana ni nka nuza ya Banke handitseho saving account harimo amafaranga basevinze, transaction history bagenda berekana ukuntu amafaranga yagiye ava kuri Banke, iyi ngiyi ni screenshot y'ukuntu yari ari kwerekana ukuntu amafaranga yagiye agenda mu buryo kuri Banke yanyine.

Ndimo ndabona ari ahantu hacuruza imyenda ariko ariko nyine hacuruzwa imyenda yo mu bwoko bwe bw'ibyo hejuru hasi handitse ngo godeni fashoni shopu, hari ahantu ho gutanga rayike komenti no gusheyaringa, ndimo ndabona ari nkaho ari ifoto iyi ari sikirini shuti bakoze muri telefone.

Ndimo ndabona aha bisa nkaho igurisha abantu handitseho ngo Tarama Rwanda rimitedi wishyura kuri Emutiyene handitseho ngo tenkiyu foru yuwa oda bakerekana ibintu watumije detaye zabyo harimo oda ayidi, sitatasi n'itariki wabitumirije, ndetse harimo n'uburyo uzishyura buri kintu cyose na totari y'amafaranga uzishyura harimo n'ibintu by'amatike.

Ndimo ndabona bari kwerekana ngo tudeyi reti nyine ukuntu amafaranga ahagaze ku ndwaraot colnetgen stavest bigaragara ko ari ahantu bavunjishereza amafaranga harimo aho bari kwerekana ko bari kugura ndetsekekwa ari kugurishaamafaranga akoreshwa muri leta zunze ubumwe z'abarabu amayero yasitralia cdacayo danemarke na hog kongod japaoroi singapoure na south africa sden na leta zunze ubumwe z'abarabu.

Ndimo ndabona ahantu hari ikaze biro deshaje. Bigaragara ko ari ahantu bavunjira amafaranga. Hari umuryango w'umweru n'ibirahure, ni inzu ifite amabara y'umuhondo ifite na prapafu y'umweru.